Ababyeyi bari mu nzu, bicaye bateruye abana bari kubagaburira, abandi bana bato, bicaye iruhande rwabo ndetse no hirya yabo, imbere yabo hahagaze umugabo.

Amashuri yigisha abana b'inshuke ashushanya ibishushanyo bigiye bitandukanye bibafasha kugira ngo babashe kuba basobanurira abana binyuze mu bishushanyo bitandukanye baba bagiye bashushanya.

Ibipupe by'ubwoko butandukanye byifashishwa n'abana biga mu mashuri y'incuke kugira ngo babashe kwiga neza. Ibigo birera abana b'amashuri y'incuke bifashisha ibipupe kugira ngo babashe gushimisha abana bigisha.

Amashuri arera abana b'inshuke agira ibishushanyo bifasha kugira ngo abana babashe gusobanukirwa neza amasomo babigisha, aho kuri ibyo bishushanyo bashushanyaho ibintu bigiye bitandukanye bibasha kuba byabasobanurira kugira ngo basobanukirwe neza ibyo biga.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bagira ibikoresho batwaramo amakaye yabo ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha ku ishuri ibyo bikapu bikaba biriho ibishushanyo bibafasha kumva bishimye.

Ibigo byigisha amashuri y'inshuke bashushanya ibishushanyo bitandukanye ku nkuta z'amashuri kugira ngo babashe gusobanurira abanyeshuri neza ibikoresho ndetse n'inyamaswa zigiye zitandukanye.

Abana biga mu amashuri y'incuke, bicaye ku mukeka, bakaba bafite indangamanota, abandi bakaba bafite udukinisho dutandukanye, tubafasha kugira ngo babashe kubakora imikino n'imyidagaduro, igiye itandukanye.

Ibigo birera abana b'inshuke bigira ibikoresho byifashishwa mu gukina, birimo aho abana bicunda kugira ngo babashe kuba bakora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye.

Ibikorwa remezo byiganjemo amashuri afasha abana biga amashuri y'incuke kugira ngo babashe kwiga neza, umwana uri kujya ku ishuri yambaye impuzankano iri mu mabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umweru.

Amakaramu yo mu mabara atandukanye yifashishwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo babashe kuba babasobanurira ubwoko bw'amabara agiye atandukanye bibafasha kugira ngo bamenye ubwenge.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bagira ibibuga bibafasha gukina imikino igiye itandukanye aho abana bakina imipira y'amaguru, ikindi kandi n'abafite ubumuga bw'ingingo ntabwo bahezwa muri iyo mikino kugira ngo bose babashe gukinira hamwe.

Ibigo by'amashuri byigisha abana b'inshuke bishushanya ibishushanyo bitandukanye birimo ibishushanyo by'impyiko ndetse n'imitima bibafasha kugira ngo basobanukirwe neza amasomo biga.

Icyumba cy'ishuri cyicaye mo abana biga mu mashuri y'incuke imbere hakaba hahagaze umwana uteruye urupapuro rwanditseho amagambo, icyumba kikaba kirimo ibikorwa remezo bitandukanye birimo akabati, ikibaho bandikaho ndetse n'intebe abanyeshuri bicayeho.

Ibigo by'amashuri abanza byifashisha ibikoresho bitandukanye bifasha mu masomo yabo birimo ibyifashishwa mu isomo ry'imibare, urugero twavuga nka kompa aho bayifashisha kugira ngo bashushanye ibinyampande bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bifashisha ibitabo ndetse n'ibishushanyo bibafasha kugira ngo babashe kuba basobanukirwa neza ibikoresho ndetse n'ibindi biga kugira ngo babashe kuba bakurikirana neza amasomo yabo.

Amakarita ashushanyijeho, kandi yanditseho ibintu bitandukanye byigishwa abana biga amashuri y'inshuke, bibafasha kugira ngo babashe kuba bakumva neza, kandi basobanukirwe neza ibyo babigisha.

Inyubako iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'inzugi z'ubururu, hakaba ku rubaraza rw'iyo nyubako hari ubusitani ikindi kandi hakaba hari ubwoko bw'indabo, bityo abana bakabasha kwiga neza.

uUbwoko bw'ibitabo bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, byiganjemo ibitabo by'Ikinyarwanda ndetse n'iby'icyongereza, abana biga mu mashuri abanza bakangurirwa gusoma kugira ngo babashe kumenya indimi zitandukanye.

Igitabo cyagenewe abana biga mu mashuri abanza, aho bigishwa gusoma Ikinyarwanda ndetse bagatozwa n'umuco wo gusoma kugira ngo bazakure bazi gusoma. Ni byiza ko dutoza abana bacu gukurana umuco wo gusoma kugira ngo bamenye neza ururimi rw'Ikinyarwanda.

Igishushanyo kigaragaza ubwoko bw'ibikoresho byifashishwa mu buhinzi icyo gishushanyo kikaba gishushanyijeho inkweto za bote ndetsega n'agapfukamunwa bikaba byigishwa mu mashuri abanza.

Mu bigo by'amashuri abanza, abanyeshuri bifashisha ibikoresho bitandukanye, birimo ibibafasha mu isomo ry'imibare kugira ngo babashe kuba bashushanya, ibishushanyo bigiye bitandukanye bityo kugira ngo babashe kuba batsinda neza amasomo yabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bifashisha ibitabo bitandukanye by'ikinyarwanda, kugira ngo babashe kwiga neza ururimi rw'ikinyarwanda. Ni byiza ko dushishikariza abana batoya, gukunda gusoma kuko bibafasha mu myigire yabo.

Inyubako z'amashuri zubatswe ku buryo bugezweho aho zubatswe mu buryo bw'amagorofa zikaba zifite ibikorwaremezo bitandukanye birimo umuhanda ugeraho ikindi kandi hakaba hari n'ubusitani bw'indabo.

Inyubako zigize ikigo cy'amashuri abanza, aho abana bari kugenda ku kibuga, ikindi kandi imbere y'ayo mashuri hakaba hari ubusitani bugiye bitandukanye, abanyeshuri bagana kuri ibi bigo bakaba babasha kubona uburezi bufite ireme.

Ibigo byigisha abana bo mu mashuri abanza bigira ibitabo by'ibinyarwanda bibafasha kugira ngo bigishe abana bo mu mashuri abanza ikinyarwanda bityo bakure bafite umuco wo gusoma, ibyo bitabo bikubiyemo ibibafasha gusoma kugira ngo bakure bafite ubumenyi butandukanye mu bijyanye no gusoma.

Ibikapu bitwarwamo amakayi ku bana biga mu mashuri abanza, abanza bibafasha kugira babashe kuba babika neza amakaye yabo bityo ye kuba yakangizwa n'imvura.

Abarimu bigisha mu mashuri abanza basobanurira neza abanyeshuri amasomo babigisha, arimo sayansi kuko bashushanya igishushanyo cy'umutima bityo akabasha kuba basobanukirwa neza ibice biwugize.

Abarezi barerera mu mashuri abanza, bateruye igikarito cya mudasobwa aho bahawe impano zitandukanye, zibafasha mu buzima bw'imyigishirize, kugira ngo batange uburezi bufite ireme ku banyeshuri.

Abana biga mu mashuri abanza bagira udukapu cyangwa se utubage, tubafasha gutwara ibikoresho byabo birimo amakaye ndetse n'amakaramu kugira ngo babashe kuba babitwara neza.

Icyapa kigaragaza indangagaciro ziranga ikigo cy'amashuri cya GS gishororo mu karere ka Nyagatare, aho handitseho indangagaciro zigiye zitandukanye, ibigo by'amashuri bigira ibyapa bigaragaza indangagaciro.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri bari kumwe n'abayobozi ndetse n'ababyeyi babo, bari imbere y'inyubako y'igorofa igeretse kabiri, iyo nyubako yubakishije amatafari kandi iri mu mabara y'umuhondo.

Abanyeshuri bambaye imyambaro y'impuzankano, bakaba bari ku kibuga imbere yabo hakaba hahagaze umurezi. Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye baba bagomba kuganirizwa ku ngingo zitandukanye kugira ngo bakangurirwe kandi bagirwe inama.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bicaye mu matsinda bakaba bari gukora imibare aho bafite ibikoresho bari kwifashisha birimo impapuro ndetse n'amakaye bari kwandikaho ndetse n'imashini karikatirise zibafasha kugira ngo babashe kuba bakora imibare neza.

Irembo rigaragaza ikigo cy'amashuri cya rukomo, aho abanyeshuri biga bakabasha kubona ubumenyi butandukanye. lbikorwaremezo nk'ibi bifasha abantu kwiga ndetse no kunguka ubumenyi.

Abarezi barerera mu mashuri yisumbuye bakaba bambaye amajire ikindi kandi bakaba bahagaze ku rubaraza rw'inyubako bakaba bari kuganira ku ngingo zitandukanye zigamije guteza imbere uburezi bw'abana.

Abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri bakaba bari ahantu ku kibuga kiriho ibitaka, hirya yaho hakaba hari inyubako ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye. Abana biga amashuri abanza ni ngombwa ko bagomba kubungabungwa kugira ngo imyigire yabo igende neza.

Abanyeshuri bari muzu imeze nka sale, bakaba bari kuganira n'abayobozi babo, ikindi kandi iyo nyubako ikaba iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ibirahure byinshi, inyubako nk'izi zihuriza abanyeshuri hamwe kugira ngo bahabwe ibiganiro bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye imyambaro y'ishuri, bakaba bicaye mu busitani, ikindi kandi hirya yabo hakaba hari ikibuga gikinirwaho imikino igiye itandukanye.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri mu buryo bw'amatsinda. Bakaba bari gukora imibare bifashishije amakari kiratirise ndetse n'amakayi bari kwandikaho kugira ngo babashe kuba bakosora neza ibibazo by'imibare.

Mu bigo by'amashuri bagira ibyumba byabugenewe aho bashyira imbabura za kizungu zabafasha kugira ngo babashe kuba bategura amafunguro y'abanyeshuri bityo babashe kubona ibyo kurya biteguye neza kandi ku gihe.

Ibikoresho by'ubwoko butandukanye bibumbye mu ibumba, aho abanyeshuri biga amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro abigisha kubumba ibyo bikoresho bitandukanye, bityo kugira ngo babashe kuba bakiyungura ubumenyi butandukanye.

Abanyeshuri bari mu ishuri ryigisha imyuga n'ubumenyingiro bakaba bari kumwe n'umwarimu wabo bari kubasobanurira amasomo atandukanye, iyo nyubako barimo irimo ibikorwa remezo bitandukanye birimo intebe bicayeho ndetse n'ameza abafasha kugira ngo babashe kubona imyigire yabo bitabagoye.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro babigisha gutera amarangi y'ubwoko butandukanye. Ameza ateretseho irangi aho umuntu yasize irangi ikindi kandi abanyeshuri biga muri aya mashuri babigisha imyuga igiye itandukanye.

Icyumba gifite irangi ry'icyatsi kibisi ndetse n'iryumweru kigaragaza aho abanyeshuri bigira mudasobwa hakaba hakingishije urugi rufite ibara ry'isine.

Urupapuro rw'ikayi rugaragaza ikibazo cy'imibare gikosoye neza, aho abanyeshuri biga amashuri ya za kaminuza ndetse n'imyuga n'ubumenyingiro biga imibare, kugira ngo babashe kuba basobanukirwa neza akamaro ko kuyikoresha.

Abanyeshuri biga amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, babigisha kubumba ndetse no gukora ibikoresho bitandukanye, hifashishijwe ibumba kuko babigisha kubumba ibikoresho bitandukanye, bishobora kuba byabafasha mu kwiteza imbere.